Amashuri gabanza aho abanyeshuri baja kwigira, hari amazu gameze neza cane hari n'ikirango cy'ibendera ry'igihugu, aho hari ubusitani bumeze neza n'uduti tuzana umuyaga aho ngaho.

Abarimu bigishaga mu mashuri y'ibanze harimo uwambaye itaburiya y'umweru, n'uwambaye ishati y'umweru n'umukara irimo uturonko, n'uwambaye ikote ry'umukara gusa.

Amashuri gabanza gameze neza gubakishije amatafari gahiye， gafite inzugi zimeze neza za metalike， harimo n'amadirisha g'ibirahure， mu gihe abanyeshuri bigiragamo bigaga， bameze neza batuje， batekanye nta mvura igomba kubageraho canga izuba.

Amashuri gabanza ni byiza ko gaba gakoze neza gafite isuku harimo intebe nziza z'abanyeshuri bicaragaho zikagira n'ububiko babikamo ibikoresho byabo nk'amakayi n'amakaramu bityo parafo imeze neza cane hateyemo n'amarangi gasa neza g'umweru.

Utubati abanyeshuri bigaga mu mashuri abanza babikagamo ibitabo byabo, kugira ngo babifate neza aho bifashishaga ibikoresho bitandukanye babikaga mu tubati, kugira ngo bibe bifite umutekano usesuye.

Abanyeshuri bigaga gukoresha ibyuma bakabikata， mu gihe biga amasomo gabo， bakagakurikiza neza kugirango bazatsinde ibizamini babahaga.

Abanyeshuri bigaga mu mashuri gisumbuye, aho bakoreraga ubushakashatsi, harimo ibyuma byinshi bitandukanye bakoreshaga, mu kugira ngo basane ibintu bitandukanye, bivemo ibindi bikoresho bikomeye bagomba gukoresha mu buzima bwa bo bwa buri munsi.

Abanyeshuri bigaga mu mashuri gisumbuye imbere yabo hari umwarimu uri kubigisha bicaye ku ntebe nziza zigezweho aho bakurikirana amasomo yabo bameze neza bambaye amashati g'umweru ,n'imapantaro ga kaki.

Abanyeshuri bigaga mu mashuri makuru， biga umwuga wo kudoda， aho bicaye bambaye udupfukamunwa， imbere yabo hari amacupa y'amazi， ateretse ku meza y'imashini bifashisha mu gihe bari kunyonga， kugira ngo bataza kugira umwuma bakanywa kuri ago mazi.

Ishuri rimeze neza, harimo intebe z'umuhondo n'ameza gatandukanye, harimo ibikoresho byinshi byiza bigiye bitandukanye. Aho abanyeshuri binjiragamo bagiye gukoresha ibyo bikoresho biri muri iri shuri.

Abanyeshuri bigaga mu mashuri gisumbuye, aho biga gusudira ibindi byuma bitandukanye bakabiteranya bikavamo ikindi kintu bakoresha mu buzima bwa buri munsi, aho bari gukora ingorofani iruhande rwe. Ikaba yuzuye neza isigaje kuba bayitera amarangi.

Abanyeshuri bo mu mashuri makuru bari mu nzu bakoreragamo ubushakashatsi, aho bakora ibintu bitandukanye bareba ko hari ibyo bahuza bitandukanye kugira ngo barebe ko ibyo bize babishira mu bikorwa bakoresheje ibyo baba babahaye.

Ibikoresho bakoreshaga mu mashuri gisumbuye bakora ubushakashatsi, harimo mudasobwa, hakabamo n'ibindi bikoresho bakoreshaga, aho umunyeshuri abaga yambaye udupfukantoki kugira ngo atangirika, yambaye n'ibindi bipfutse mu maso, yambaye itaburiye y'umweru mu gihe akora ubushakashatsi.

Abanyeshuri bigaga imyuga bari mu bushakashatsi bakora ibyuma babiteranya kugira ngo bunguke ubumenyi buruhijeho ejo bazasohoke ku soko ry'umurimo ari abakozi beza cyane bazi gukora ibyuma bitandukanye.

Abanyeshuri bigaga gusudira, aho babaga bambaye ibisurubeti bibaranga n'ibindi bintu bapfutse mu maso, kugirango batangirika uruhu rwabo, mu gihe bari gusudira ibikoresho bitandukanye mu mashuri gabo.

Abanyeshuri bameze neza，bambaye udupfukamunwa n'imipira zitandukanye， imbere yabo hakaba hariho abarimu babiri， umwe yambaye itaburiya n'agapfukamunwa，bakaba bari mu isomero ry'ibitabo， mu gihe baba basoma baba bitonze bameze neza.

Umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye yashushanyije intore ibyina yishimye imeze neza, yandikaho n'izina ry'iyo ntore. Ni byiza cane kuba dukurikirana amasomo go bize neza kugira ngo bamenye ibyo bashaka gukora ibyari byo mu buzima bwabo bwa buri munsi.